Umugore wambaye amadarubindi ufite ikayi n'ikaramu ari kwandika n'umugabo wambaye ijire, imbere yabo ku meza hateretse amacupa abiri y'amazi.

Ihuriro ry'abantu benshi bicaye hamwe, abagabo bambaye amakote ubona bari kwiga ku kibazo kimwe, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru atatseho uturabo dufite ibiro ibibabi by'icyatsi.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara, impande yabo hateretse uducupa turimo amazi, na ji bari mu nzu nini y'icyumba gisize irangi ry'umuhondo, hamanitsemo n'amarido.

Abasore babiri bambaye imipira y'umweru n'amapantaro bari imbere ku kabuga; inyuma yabo hari intebe zisa umukara, ndetse hari abantu bicaye bari kubafotora, inyuma hari icyapa cyanditseho n'amagambo y'umweru n'umuhondo.

Abaturage benshi bicaye mu kibuga kinini ku ntebe zisa ubururu, impande hari inyubako zubucuruzi ziri ku kumurongo n'umusozi, hakurya uteyeho ishyamba.

Umugabo wambaye amadarubindi, ishati n'ipantaro afite indangururamajwi mu ntoki ari gutambutsa imbwirwaruhame imbere y'abantu benshi, inyuma hari ibitambaro biri mu mabara y'idarapo y'u Rwanda.

Itsinda rya'basore bari gukora amasiporo bambaye udupira tw'umweru dusa n'amapantaro, bari mucyumba imbere y'abantu benshi bari kubareba.

Itsinda ry'abantu benshi harimo abagore n'abagabo n'abantu bitwikiriye imitaka bari kubyina, inyuma hari inyubako ndetse n'ishyamba ry'ibiti byinshi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'umuhondo, afite indangururamajwi mu ntoki ari kuvuga, inyuma hari igikuta gisize irangi ry'ubururu.

Abantu batatu bari kwifotoza bahereza umwe igihembo k'ishimwe, bishimye baseka, n'undi uri inyuma ahagaze ari kubareba hari n'ibyapa.

Abantu bicaye hamwe ku ntebe z'umweru, imbere yabo bafite mudasobwa, amakayi n'amakaramu bari kwandika n'amazi yo kunywa abateretse imbere.

Abantu benshi harimo umugore wambaye amadarubindi ndetse n'amaherena, bicaye imbere yabo hari ameza ariho amacupa y'amazi yo kunywa n'amakayi ndetse na mudasobwa.

Abantu benshi bari hamwe n'umugore uri imbere ufite indangururamajwi mu ntoki, yambaye isaha, inyuma yabo hari haparitse imodoka ndetse hari n'ishyamba ry'ibiti byinshi.

Abantu benshi bambaye imyenda igaragaza umuco w'abantu ba kera isa umweru n'umukara, bafite igisabo n'amacumu mu ntoki.

Abakaraza n'abaririmbyi bambaye imyenda y'umweru n'umukara bafite imirishyo, indangururamajwi ndetse n'ingoma bari kuvuza, hari n'ibiti by'amoko menshi n'inyubako.

Ababyinnyi bambaye imikenyero isa umweru n'ubururu, bari kubyina imbere y'abantu bicaye ku ntebe zisa umweru, inyuma hari ishyamba ry'ibiti.

Itorero ririmo ababyinnyi, itsinda ry'abaririmbyi bafite indangururamajwi, abakaraza imbere yabo hari, ingoma, ndetse n'abacuranzi, inyuma hari imitako y'ibitambaro.

Umugore wambaye imikenyero y'umweru n'isengeri n'udutambaro yaziritse mu gahanga, arambuye amaboko ari kubyina, inyuma ye hari imitako y'indabyo n'abantu bicaye.

Inkono ikoze mu ibumba, irimo ibishyimbo iteretse ahantu mu kabuga, inyuma hahagaze umugabo wambaye inkweto ndetse hari n'intebe ihari, ikoze mu giti.

Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki uri kuririmba inyuma ye, abaririmbyi n'abakaraza bafite n'ingoma, ndetse n'igiti, n'ubusitani, bwiza.

Amazu y'ubucuruzi yubatse ku murongo, asize irangi ry'umuhondo, imbere hari amapoto abiri afashe insinga z'amashanyarazi ndetse n'umusozi uriho ibiti.

Umugabo wunamye ari gusudira ibyuma, impande hari agatebe ndetse n'abandi bantu bari kumufasha n'inyubako yubakishije ibyuma ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye ku ruhande.

Umugabo wuriye hejuru ku ipoto y'insinga z'amashanyarazi ari ku rwego, yambaye imyenda isa ubururu ndetse hari n'ikirere gisa nabi.

Amapoto ariho insinga z'amashanyarazi, mu muhanda munini hari insina, ibiti by'amoko atandukanye, imyembe, abantu, imyenda yanitse ku mugozi.

Abubatsi bambaye ingofero bafite ibintu bari gukora mu kibaya kirimo ibyuma byinshi wagira ngo ni uruganda bari kubaka.

Akabuga kazizitiye karimo imirasire y'izuba, impande ubusitani bw'indabo ndetse n'inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye.

Abagabo babiri bambaye amasarubeti asa ubururu, buririye hejuru, ku ipironi rihuza insinga z'amashanyarazi, hasi hari inzu zo guturamo, insina ndetse n'ibiti.

Inyubako nyinshi zikorerwamo ibikorwa bitandukanye, hari umuhanda munini urimo imodoka z'ubwikorezi ndetse n'ibiti by'amoko menshi n'indabo n'imisozi.

Inzu isize irangi ry'umuhondo, isakaje amabati y'ubururu. Impande hateretse ikigega gifata amazi ndetse hari ishyamba ry'ibiti byinshi.

Inzu nyinshi zubatse ku murongo zubakishije amatafari ahiye, zisakaje amabati atukura ndetse impande hari umurima w'ibigori n'insina, n'insinga z'amashanyarazi.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, inyuma hari inzu zubakishije amatafari ahiye, zisakaje amabati, hari ibyapa biyobora abantu ndetse n'umusozi uteyeho ishyamba.

Ikiraro kinini gihagazeho umupolisi n'abagabo bambaye bote, munsi hanyuramo amazi menshi, hakurya hari imisozi iteganye, iriho ibiti by'amoko menshi.

Inyubako igeretse isize amarangi y'umuhondo y'ubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati. Imbere hateye ibiti.

Inyubako zisa zubatse ku kumurongo, zubakishije amatafari ahiye, zisakaje amabati, zizengurutswe n'ibyuma.

Ahantu hari ikiraro kinini n'umuhanda unyura hagati y'imisozi, iteyeho amashyamba menshi, hari isuri igaragaza amazi.

Inyubako yubakishije ibyuma, isakaje amabati, isize irangi ry'umweru n'ubururu, iruhande hahagaze abagabo mu muhanda ndetse inyuma hari umusozi.

Abantu bari gutambuka mu kayira karimo ibyatsi, inyuma yabo hari inzu isize irangi ry'ubururu, isakaje amabati imbere hari intebe ndetse n'urubukarabiro n'ibiti bihakikije.

Umuhanda iruhande hari inzu zubakishijeje amatafari aheye, zisakaje amabati asa umutuku ziri ku ku murongo, hari n'insinga z'amashanyarazi zohereza umuriro, kuri izo nzu inyuma, amashyamba.

Inyubako igeretse kabiri isakaje amabati asa ubururu, ifite amadirishya menshi atandukanye, ifite uruzitiro rw'imbaho zisize umweru.

Umugabo wambaye ipantaro y'ubururu, inkweto n'umupira w'umweru, afite igikapu mu ntoki ahagaze imbere y'umucungagereza wafunguye urugi, imbere hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Isoko ririmo abaguzi n'abacuruzi ,ry'ibiribwa birimo ibijumba ibindi bipakiye mu mifuka y'umweru ,karoti n'inyanya.

Abantu benshi bateraniye hamwe bari kwifotoza bishimye, inyuma yabo hari inyubako isa ubururu, indabyo ndetse n'igiti cy'umwembe.

Inyubako isize irangi ry'umweru, isakaje amabati, impande hari kunyura abantu bateruye amasanduku mu ntoki n'abandi bafite indabyo bagiye gushyingura.

Sitade nini cyane irimo abantu bayicayemo ahasakaye ndetse n'ahadasakaye, hari kubera umukino, uhuza amakipe abiri.

Inzu isize irangi ry'ubururu, imbere hari ubukarabiro ndetse n'intebe zicayeho abantu, amadirishya arafunguye, inyuma yayo ari ibiti.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi, bari kunyura ku kiraro cyo mu kirere, impande hari ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'ibyatsi.

Abantu bahagaze imbere y'inzu isakaje amabati asa ubururu, azitije inyubako y'amatafari ahiye, inyuma ibiti by'amoko menshi.

Ikigo kinini kizengurutswe n'ibyuma, bisize amarangi, umuhondo, ubururu n'umutuku mo imbere harimo inzu zubakishije amatafari ahiye, inyuma umusozi uriho ibiti.

Imodoka iri gutambuka mu muhanda wa kaburimbo impande hari ubusitani bw'indabyo zitandukanye, inyubako isakaje amabati ndetse n'umusozi uriho ishyamba.

Ikiraro cyo mu kirere cyubakishije ibyuma bisize irangi ry'ubururu, iruhande haparitse amapikipiki abiri ndetse n'icyapa gisize irangi ry'umweru bashushanyijeho ibendera ry'igihugu n'ikibaya kinini kirimo ibiti by'amoko atandukanye.

Inyubako isakaje amabati y'ubururu, ifite ibirahure ndetse imbere hahagaze abantu benshi mu matsinda atandukanye bambaye amakote.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye isize amarangi y'umweru, isakaje amabati y'umutuku ndetse imbere yayo hicaye abantu, hari n'ibendera ry'igihugu.

Abantu benshi bari hamwe, harimo abapolisi n'abasirikare, inyuma yabo barahagaze hari intebe ziteretseho uducupa turimo amazi ndetse bari ahantu hatatse ibitambaro by'umweru.

Abagabo babiri bambaye amadarubindi umwe afite indangururamajwi ari kuganiriza abantu ahagaze ahantu hamanitse ibitambaro bisa ubururu n'umuhondo.

Abantu benshi higanjemo igitsina gabo, bambaye imyenda y'umukara bigaragara ko batishimye, imbere bafite amazi yo kunywa ari mu ducupa.

Abantu bari mu cyumba cyubakishije amatafari ahiye, bari kubyina bizihiwe, impande hari ameza ateretseho amacupa y'amazi yo kunywa.

Abagabo bane bahagaze mu muhanda ndetse n'umupolisi wambaye amadarubindi, inyuma hari urutoki runini ndetse n'igiti cya avoka,

Umugabo wambaye ishati, afite indangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hicaye abasaza n'abasore impande y'inzu ifite idirishya risa ubururu.

Icyumba kinini giteraniyemo abantu benshi harimo n'abasirikare, bicaye imbere hari amazi yo kunywa, bafite amakaramu n'amakayi bari kwandika ndetse n'umupolisi.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'icyapa bari kwifotoza, inyuma hari ibiti byinshi insina, imiyenzi, bambaye ingofero mu mutwe.

Icyumba kinini gisize irangi ry'umweru, hicayemo abantu benshi bambaye amakote ndetse n'abapolisi, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umukara giteretseho amazi yo kunywa.

Abagabo harimo n'umupolisi bahagaze mu rutoki bari kuganira, hari insina zifite ibitoki n'izitabifite, hagati harimo umuhanda ndetse n'intebe zo kwicaraho.

Abantu benshi bari hamwe harimo n'abapolisi, inyuma hari akazu gasize irangi ry'umweru, haparitse n'imodoka ndetse n'ishyamba ry'ibiti birebire.

Abantu benshi biganjemo igitsina gore bambaye ibitenge bateze n'ibitambaro mu mutwe by'amabara atandukanye, bicaye ku ntebe zisa umweru.

Abaturage benshi bahagaze mu isambu y'ibiti batemye, biganjemo abagabo bambaye imipira Iisa icyatsi, ku ruhande hari urutoki rw'insina ndetse n'ibiti by'amoko menshi.

Umugabo wambaye ishati y'umukara n'ipantaro ari gutanga ikiganiro ku rubyiruko ruri ahantu hamwe benshi cyane ari hejuru ku kabuga ndetse inyuma hubatse amatente ndetse n'ishyamba rihari.

Abagabo bane n'umugore bahagaze ku murongo bari kwifotoza, inyuma hari abantu benshi buri wese ari mu bye hari n'inzu yubakishije amatafari ahiye.

Abantu benshi bahagaze, harimo: abacungagereza, abasirikare, bari muzu isize irangi ry'umweru, amadirishya arafunguye hasi hashashemo amakaro.

Abagabo bari gutambuka mu inzira bambaye ingofero ndetse n'amadarubindi, impande hari urutoki ndetse n'ibiti by'umuyenzi, inyuma haparitse imodoka.

Icyapa kiri impande y'umuhanda, gisize irangi ry'umutuku n'umweru, handitsemo n'umukara, impande hari ibiti byinshi, inyubako inyuma isize irangi ry'umweru.

Imodoka nini itwara abagenzi, iri kugenda mu muhanda, hafi yaho hari inyubako z'ubucuruzi, imbere hari urujya n'uruza rw'abantu benshi, hari umugore uhetse umwana, n'umugabo wifashe mu mayunguyungu.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru, hashushanyijemo akarongo k'umukara, impande hari ibiti by'amoko atandukanye, inzu ndetse n'amapoto y'amashanyarazi.

Imodoka isa ubururu, ipikipiki ndetse n'igare riparitse imbere y'inzu isize irangi ry'umuhondo, imiryango irafunguye.

Umusore wambaye imyenda y'umukara irimo uturongo tw'umweru utwaye ipikipiki mu muhanda, iruhande rwaho hari inyubako zisize irange ry'umuhondo.

Icyapa cyanditse mu nyuguti nkuru amagambo y'icyongereza, ikinyarwanda, Paruwasi ya Nyagatare, gisize irangi ry'umweru n'icyatsi.

Umusore uhagaze wambaye ipantaro n'umupira, ahetse igikapu, iruhande rwe hari inzu z'ubucuruzi, haparitse n'imodoka isa umweru n'ibiti ku ruhande.

Abantu benshi bari ahantu hamwe, hari amatafari abumbye ari hasi, inzu yubakisheje ibyondo isakaje amabati, inyuma ibiti byinshi by'amoko atandukanye ndetse n'ikigori.

Umugore uhagaze imbere y'abapolisi n'abasirikare n'abandi bantu basanzwe ari gutanga amahugurwa, imbere yabo hari ameza arambitseho telefone n'ingofero.

Abantu benshi bambaye imyenda y'umukara. Bafite amasuka bari guhinga ahantu hari ishyamba ry'ibiti. Inyuma yabo hari uruzitiro rw'imiyenzi. Haparitse imodoka y'umukara.

Umugabo uhagaze wazamuye amaboko, ari gusuhuza abantu, bambaye umupira w'umutuku, yicaranye n'undi ku ntebe zisa ubururu, inyuma yabo hari amagare yegetse ku ndabo ndetse n'inyubako n'ikigega gifata amazi.

Abantu benshi harimo abapolisi n'abasirikare, bafite amasuka mu ntoki bari gukora umuhanda, iruhande hari indabo mu murima uhinzemo ibishyimbo n'urutoki, ndetse n'inzu zo guturamo.

Abantu benshi bikoreye amabuye harimo abagore n'abagabo, inyuma hari inyubako yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati asa ubururu ndetse hari urutoke n'ibiti.

Abantu benshi bari mu ishyamba, ubona bari gutema ibihuru harimo n'abasirikare, inyuma haparitse ipikipiki ndetse n'igare, inzu zo guturamo zisize irangi ry'umuhondo.

Abantu benshi bicaye hamwe mu byatsi, iruhande hari indabo ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye, insina n'umurima wibigori.

Imodoka iparitse impande y'inzu isize irange ry'umuhondo, impande hari jaride y'indabyo z'amoko atandukanye, umuryango urafunguye ndetse ifite n'amadireshya afunze.

Abapolisi n'abasirikare bicaranye n'abaturage benshi, bari hamwe ku ntebe z'umweru, bahagaze bari kuganira ndetse bari ahantu hatatse ibitambaro by'umuhondo, ubururu n'icyatsi.

Abayobozi bambaye amakote, bari kugenda mu muhanda, hari intebe nyinshi zirambitse aho ngaho n'imbaho, inyuma yabo hubatse inzu, hari n'ipoto, ipiron y'amashanyarazi.

Umugabo wambaye ikote ry'imbeho ahagaze ari kubwira abaturage, afite indangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hicaye abantu benshi mu rutoki rw'insina.

Abagore n'abagabo bahagaze mu muhanda bikoreye amabuye ku rutugu, harimo abapolisi n'abasirikare, inyuma yabo hari ibiti by'indabo ndetse n'umurima uhinzemo ibigori.

Abagabo babiri bambaye ingofero, ndetse n'umusirikare n'umupolisi, bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza ateretseho terefone, indangururamajwi, n'immpapuro, inyuma hari ubusitani bw'indabo.

Umugore wambaye ikanzu n'isaha ku kaboko, afite urupapuro mu ntoki ndetse n'indangururamajwi, inyuma ye hari abantu bicaye ndetse n'abana, ku ruhande bari gutoragura ibikarito.

Ikibuga kinini harimo amakipe abiri iyambaye umuhondo n'umukara ndetse n'ubururu, hahagaze n'umugore uri gusifura wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara.

Ikibuga cy'umupira kinini harimo abakinnyi n'amakipe abiri ari gukina, kizitiye inyuma inyubako yubakishije amatafari n'ibiti n'insina ku ruhande.

Abantu bahagaze mu kibuga hagati, bambaye imyenda ya siporo, iri mu mabara atandukanye, iruhande hateretse umupira. Inyuma hari aho abantu bicara, hicayemo abantu.

Umugabo wambaye imyenda isa umukara ahagaze imbere y'ikipe yabakinnyi bambaye imyenda isa umuhondo n'icyatsi, arikubaganiriza uko bari bwitware.

Abantu benshi bari gukora imyitozo ngororamubiri, inyuma yabo hari ikibuga cy'umupira, harimo amakipe abiri ari gukina ndetse n'udutebe abakinnyi bicaraho.

Umugabo wambaye amadarubindi, ishati n'ipantaro ari kumwe n'umukinnyi wambaye amasogisi n'imyenda ya siporo asa ubururu, bari mu kibuga kinini.

Ikibuga cy'umupira harimo amakipe abiri ari gukina, imwe yambaye imyenda y'ubururu indi umuhondo n'umugore uri gusifura umupira, wambaye agapira k'umutuku n'ikabutura y'umukara.

Abantu bahagaze mu kibuga cy'umupira, bamaze gutanga igikombe ku makipe yatsinze amarushanwa harimo abayobozi, abapolisi ndetse n'abasirikare.

Abakinnyi b'umupira bari mu kibuga inyuma hari abandi bari gufana ndetse n'igare rihaparitse ririho amajerekani, ibiti by'amoko menshi n'umusozi muremure.

Ikibuga k'imyidagaduro abantu bari gukina umupira ,ndetse n'abandi benshi bari gukora siporo bahuriye hamwe. Hari amazamu ndetse n'ipoto iriho amatara.

Umugabo wambaye imyenda y'umuhondo n'uturongo tw'umukara n'amagisi n'inkweto, ahagaze mu kibuga agiye gutera umupira ,impande gikikijwe n'ibiti ndetse n'inzu zo guturamo.

Abakinnyi b'umupira bahagaze mu kibuga bambaye imyenda isa ubururu n'icyatsi, hakurya haparitse moto ebyiri ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye.

Umugabo munini wambaye ishati n'ipantaro, afite indangururamajwi mu ntoki, ari kubwira abana bambaye imyenda isa icyatsi, bigaragara ko ari ikipe y'umupira.

Umugore wambaye imyenda isa ubururu yiteze igitambaro k'icyatsi mu mutwe, afite umweyo ari gukubura mu muhanda, iruhande hari indabo ndetse n'ibiti n'inzu zo guturamo.

Umugabo uri gutambuka mu muhanda wa kaburimbo, yambaye ishati n'ipantaro y'umukara afite mvelope mu ntoki, inyuma ye hari inzu yubakishije amatafarihiye ndetse n'indi isize irangi ry'umuhondo.

Umuhanda iruhande hari icyapa cy'umutuku n'umweru ndetse n'amazu y'ubucuruzi afunguye imiryango, imbere haparitse imodoka n'ibiti by'amoko atandukanye.

Umwana n'umugabo bari gutambuka mu muhanda wa kaburimbo, inyuma yabo hari igihuru ndetse n'inzu z'ubucuruzi zisize irangi ry'umuhondo, hirya ibiti by'amoko atandukanye.

Umuhanda munini wa kaburimbo uriho ibyapa bibiri bisa umweru n'umutuku byanditsemo n'ibara ry'umukara, hari insinga z'amashanyarazi zica mu kirere ndetse n'ishyamba ry'ibiti byinshi.

Umuhanda mu kayira k'abagenzi harimo umugore n'umugabo bari gutambuka, impande hari indabyo ndetse n'ibyatsi n'inyuma yabo inzu zo guturamo.